Abantu bicaye hamwe mu cyumba cy'inama, aho bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umutuku harimo, abagabo n'abagore, bambaye amashati yo mu mabara y'ubururu, ndetse n'abandi bambaye aro.

Inama iteraniyemo abantu benshi bafite abantu babiri bahagaze ku rubyiniro basa nk'abashimisha abari kubitegereza babicaye munsi, hakaba hari ikirango cyanditseho repubulika y'u Rwanda rubyiruko menya amateka yawe, biri mu ibara ry'umweru n'umuhondo ndetse icyo cyapa kikaba gisa ubururu.

Abantu bicaye hamwe mu nama, hagaragaramo abagabo n'abagore, harimo umudamu wambaye umwenda w'umutuku imbere ye hateretse ikirahure kirimo amazi n'icupa n'undi mugabo umwicaye iruhande nawe aruko, hari n'abandi babicaye inyuma harimo umugore.

Ishusho igaragaza abantu bari mu nama harimo umupolisi, umusirikare, abagabo bane bicaye ku meza iriho ibitambaro by'umweru na oranje.

Ishusho igaragaza ababyinnyi babyina imbyino zigezweho, urubyiruko bambaye udupira twera tw'umweru, turiho ibirango by'umukara imbere n'amapantaro y'amakoboyi ari mu ibara ry'ubururu, hari abari guceza n'ababapfukamye impande ndetse n'abaje kubafana.

Abantu barimo abagabo n'abagore bicaye mu nama hari abambaye imyenda y'ubururu abandi amashati y'umukara, buresiyeri n'umweru, bicaye ku dutebe dutukura, imbere yabo hateretse amazi.

Umugabo uriho utanga ikiganiro, wambayenette n'isaha ku ukuboko, umupira w'umweru urimo uturongo tw'umukara, aho ahagaze ku gapodium kanditseho ''rubyiruko menya amateka yawe''. harimo ibara ry'ubururu mu birango by'umweru.

Abantu batatu bafite impamyabumenyi mu ntoki harimo abagore babiri n'umugabo umwe ,umugore wambaye rineti ndetse n'undi uhagaze hagati y'uwo mugore n'undi mugabo wambaye umukenyerero uri mu ibara ry'umweru ndetse n'agapira gafite cyatsi kibisi.

Ishusho igaragaza abantu bari mu nama harimo abagabo n'abagore. Mu bagabo barimo abambaye amashati y'ubururu, ay'umweru ay'igitaka bicaye ku ntebe z'umutuku. Bafite telefone bari kurebamo, bateze amatwi.

Umugabo uhagaze imbere mu nama harimo abapolisi n'abandi bantu batandukanye. aho agaragara nk'aho ari gutanga ijambo, harimo umudamu umuhagaze iruhande wambaye agashati k'icyatsi, agapira k'umukara, hari n'amadarapo ari mu mabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Ababyinnyi b'imbyino gakondo bari mu murimo wo kubyina ndetse no kuririmba, aho hari umudamu uriho urashayaya, inyuma ye hari abagabo bambaye imikenyero y'umweru bariho barakoma mu mashyi banaririmba.

Ibishushanyo bizwi ku izina ry'imigongo, biri mu mabara y'umweru n'umukara, bikoreshwa nk'ibirango by'umuco gakondo wa kinyarwanda, bitakwa ahantu nko mu nzu cyangwa se ahandi hahurira abantu benshi, bigamije kugaragaza cyangwa kongera ubwiza bw'aho hantu.

Kimwe mu bikoresho gakondo byakoreshwaga mu gihe cyo guhiga cya mu ntambara, kitwa umwambi. Kikaba cyabaga gikozwe mu biti, kikagira utuntu tumeze nk'amababi ku musozo watwo, ukaba usongosoye imbere ku buryo ubasha kwinjira nta nkomyi.

Ababyinnyi gakondo b'abagore bahagaze bariho barabyina imbere y'imbaga y'abantu, bambaye imikenyero y'umweru bateze ingori na zo ziri mu ibara ry'umweru.

Abantu bicaye hamwe mu nama bateze amatwi ibiganiro harimo abicaye n'abahagaze b'abagabo n'abagore, bambaye ingofero, bambaye amashati y'umukara, ay'ubururu, aya buresiyeri n'andi ya karokaro.

ibikoresho gakondo birimo inkoko urwuho n'agacuma ndetse n'umuheha byakoreshwaga kera n'abakurambere b'abanyarwanda hakaba hari n'ikirago byose biteretsweho.

Ababyinnyi b'imbyino gakondo biganjemo abadamu b'igitsina gore bari kubyina bateze amaboko nk'inyambo, harimo abambaye udusengeri tw'umukara bakenye imikenyero y'umweru.

Ababyinnyi b'imbyino gakondo ya kinyarwanda bazwi nk'intore, bambaye imikenyero yo mu ibara ry'umuhondo n'imyenda y'umukara ndetse n'amayogi bariho barabyina.

Ishusho igaragaza imitako ya kinyarwanda harimo: umwambi, agatebe, hakazamo inyegamo n'agakeka.

Ibikoresho gakondo byifashishwaga mu gihe cy'intambara harimo ingabo n’icumu, aho byakoreshwaga n'umusirikare wabaga uri ku rugamba mu gihe ahanganye n'umwanzi we. Ingabo yamufashaga kwikingira, naho icumu kikaba ari igikoresho yarwanishaga kugira ngo atsinde.

Ishusho igaragaza ahantu hateye urutoki hari n'inzu, hakaba n'ipoto y'amashanyarazi iriho MT, inzu ifite imiryango y'ubururu isakaje amabati.

Ihuriro ry'aho amashanyarazi ahurira hakaba hari icyapa k'ikigo gishinzwe ibijyanye no gukwirakwiza amashanyarazi kizwi ku izina rya REG (Rwanda Energy Group) kiri mu birango by'umutuku n'umukara ku cyapa cy'umweru.

Ry'aho umuriro w'amashanyarazi uhurira hari ibikoresho byifashishwa mu gukusanya ayo mashanyarazi hari pano soreye ifasha mu gukurura imirasire y'izuba kugira ngo ibyazwemo umuriro w'imashini.

Ishusho igaragaza umuyoboro w'amashanyarazi wo mu rwego rwo hejuru ucaho insinga nyinshi, ukozwe mu byuma uteye ahantu hirengeye.

Ipoto yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu hatandukanye, iriho isinga ndetse n'ibindi bikoresho, bifasha kugira ngo amashanyarazi agere aho akoreshwa, mu nganda cyangwa se aho abantu batuye.

Agakoresho kifashishwa mu mashanyarazi. Kazwi nka mubazi, gafasha mu gushyiramo umuriro no kumenya usigaye, mu gihe umuntu yawuguze. Hariho imibare itandukanye.

Umuhanda nyabagendwa ukikijwe n'amatara ahumurikira mu gihe cy'ijoro. Urimo ibinyabiziga bitandukanye, ibigendera ku mapine abiri bizwi nk'ibinyamitende, moto ndetse n'imodoka.

Igikorwa remezo kizwi ku izina ry'ikiraro cyubatswe neza, kikaba gica mu kirere aho kigaragara ko kiri gucaho moto, cyubatswe na senyenge zigikikije ndetse n'imbaho n'ibyuma bicyubatse hasi.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu ndetse izengurutswe n'andi arimo ibara ry'ubururu, ikaba iriho ibigega bibiri byo mu ibara ry'umukara bifata amazi aturutse kuri iyo nyubako kugira ngo hatagira ibyo yangiza kandi ajya akoreshwa mu yindi mirimo.

Inyubako iri mu ibara ry'umweru, isakajwe amabati atukura, ifite inzugi n'amadirishya biri mu ibara ryera, yicayeho abantu yanyanditsweho Urukiko rw'Ibanze rwa Nyagatare.

Inyubako ihagazeho abantu imbere, hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ahandi inyuma hariyo abantu nabo bahagaze impande y'iyo nyubako bisa nk'aho bari gufata serivisi runaka itangirwa kuri iyo nzu.

Igikorwa remezo cy'inyubako y'ikiraro, ihagazeho abantu hejuru, munsi hakaba hari gucamo amazi, bigaragara ko ariyo bubakiye kugira ngo atazagira ibyo asenya, hejuru hakaba hari abaturage bari kukigendaho, ntibagaragaze.

Umudamu wambaye umwambaro wo mu ibara ry'umutuku, ufite indabyo mu ntoki. Inyuma ye hari umugabo, umutwikiriye n'umutaka. Bari mu gikorwa cyo kwibuka.

Ku ruhurirane rw'abantu batandukanye bo mu nzego zitandukanye, hariho abambaye yunifomu ziranga igisirikare cy'u Rwanda, aho bari gushyira indabyo ku rwibutso.

Abaturage benshi bicaye hamwe abandi barahagaze bari mu nama, aho bakurikije ibiganiro ku bijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu, hakaba hari n'uhagaze inyuma yabo.

Abantu bateraniye hamwe mu nama, hari kugaragaramo abo mu nzego z'umutekano, harimo umupolisi w'umugabo wambaye linete n'inifomu iranga akazi ke, iruhande rwe hicaye umudamu wambaye yunifomu.

Abagabo batatu bahagaze hamwe, bariho baratanga ikiganiro, harimo umwe wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, ufite telefone mu ntoki ndetse n'ikimuranga mu ijosi kizwi nka baje.

Ihuriro ry'abantu benshi bagaraga nk'abari mu nama hari umugabo ubari imbere ubaha ikiganiro wambaye ishati y'umukara, ipantaro y'ikoboyi y'ubururu.

Ishusho iriho abantu harimo abagabo bageze kuri bane, harimo amamodoka hafi y'urutoki bari mu kayira k'abanyamaguru, umwe yambaye umupira w'umweru ipantaro ya kaki ,n'inkweto z'umweru.

Ibinyamitende ibiri biri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, biriho abayobozi babyo, harimo igare ndetse na moto, umunyonzi yambaye umupira utukura.

Icyapa kiranga ivuriro kiri mu ibara ry'umweru kikaba kiriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umutuku handitsweho ivuriro disipanseri se Vincent, gusuzuma, gupima ibizamini ndetse n'izindi serivisi zitangirwa kuri iryo.

Icyapa kiri mu birango by'umweru mu muzenguruko utukura, kikaba gishushanyijeho, umuntu uri kwambuka umuhanda, iruhande rwacyo hakaba hari inzu, hubatse ndetse n'amapoto akwirakwiza amashanyarazi.

Umusore wambaye agapira gatukura wirabura, wikoreye ibuye ahantu mu gishanga, inyuma yakaba hari undi muntu ufite imisatsi y'umukara, agapira k'ivu.

Ishusho igaragaza abantu bari mu nama. Hari umugore uri imbere ubyibushye, Ufite imisatsi y'umukara isutse. Wambaye umwenda wo mubwoko bw'igitenge ariko kidozemo ikibubu. Hari abadamu n'abagabo bamuteze amatwi.

Ishusho igaragaza abagabo bicaye mu tente ry'umweru, rifite amabara y'umuhondo, icyatsi n'ubururu. Harimo abo mu nzego z'umutekano, abadaso, abasirikare n'abapolisi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bateraniye hamwe bari gucinya akadiho harimo abagabo n'abagore, abambaye ingofero biteze igitambara n'abandi batazambaye, abagabo bambaye imipira y'ubururu iriho ibirango by'umweru harimo n'abambaye amaji yo mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bicaye hamwe, hakaba harimo umwe uhagaze ufite mikoro mu ntoki, wambaye ishati y'umutuku ndetse n'ikoti ry'umukara asa nk'aho uri gutanga igitekerezo.

Ishusho igaragaza abantu bitabiriye inama irimo umugabo wambaye agapira K'umukara kariho ifoto y'umukuru w'igihugu Paul Kagame w'u Rwanda n'abandi baturage bicaye impande bigaragara nkaho bari mu inama bateze amatwi amabwiriza.

Uruhurirane rw'abantu benshi bari hamwe mu gikorwa kimwe cyo kubaka, bigaragara nk'aho ari umuganda, harimo abapolisi, abasirikare ndetse n'abadaso n'abandi baturage basanzwe bariho barabafasha muri icyo gikorwa cyo kubaka, inzu yubakisha amatafari rukara.

Umudamu uhagaze imbere y'abantu, uri gutanga ikiganiro, ufite imisatsi isutse wambaye isaha afite agapapuro mu ntoki ndetse na mikoro, inyuma ye hari umugabo umutwikiriye umutaka.

Abantu bateraniye hamwe hari umuntu ubayoboye w'igitsina gore, wambaye imyambaro iranga akazi y'abapolisi, inyuma ye hari icyapa cyanditsweho Imbuto Foundation.

Ihuriro ry'abantu bari hamwe, bari mu gikorwa kimwe, cyo kubaka. Harimo abagabo, aho bashishikaye hari abari kubumba urwondo, abandi bakaruhereza ku nyubako iri kubakwa y'amatafari ya rukarakara.

Ihuriro ry'abantu benshi bari mu gikorwa kimwe, ku muhanda nyabagendwa bakora umuganda, harimo abo mu nzego zitandukanye, abaporisi, abasirikare, n'abadaso, nk'uko bigaragazwa n'imyambaro bambaye.

Abantu bateraniye hamwe bari mu murimo, harimo abikoreye amabuye b'abasore, ndetse n'abandi bari kumanuka bagana hepfo. Harimo abambaye udusengenyeri dutukura.

Abakinnyi b'abakobwa bari mu kibuga bariho barakina umupira w'amaguru, harimo abambaye jezi z'umweru n'umukara n'abandi bambaye iz'ubururu n'umweru.

Ikibuga cy'umupira kirimo abantu bane bari gukina umupira w'amaguru, harimo umugore umwe n'abagabo batatu, babiri bambaye jezi z'umuhondo, umudamu wambaye agapira gatukura, ipantaro y'umukara.

Ishusho igaragaza igikorwa cya siporo mu mupira w'amaguru n'icyapa cyanditseho amarushanwa y'umurenge Kagame Cup bibiri na makumyabiri na gatanu, harimo abagabo bambaye imyenda yo mu nzego z'umutekano, umupolisi umwe n'umusirikare.

Ishusho igaragaza abakinnyi b'umupira, bambaye imyenda yo kujyana mukibuga, bahagaze mu kibuga cy'ubwatsi bw'icyatsi, bambaye amagodiyo, bambaye imyenda y'ibara.

Imodoka ikoreshwa n'inzego z'umutekano mu muhanda izwi nka Traffic Police iri mu muhanda wa kaburimbo irimo igenda, impande hari abantu bahagaze ndetse n'icyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'icupa rya Skol.

Ishusho igaragaza abakinnyi b'umupira bahagaze mu kibuga biteguye kujya mu kibuga gukina bambaye impuzankano z'bururu n'icyatsi bahagararanye n'abatoza babo.

Abakinnyi batatu bari mu kibuga bambaye impuzankano z'ubururu burimo ibara ry'icyatsi ku maboko, harimo abambaye amasogisi y'ubururu ndetse wambaye amasogisi y'umweru, bambaye godiyo zirimo icyatsi kibisi.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo abakinnyi bagera kuri batatu, harimo abambaye jezi ziri mu ibara ry'umweru ryiganje n'uturongo tw'umukara ku mupira, abandi bakaba bambaye iz'umukara zirimo ibara ry'umweru n'uturongo.

Abakinnyi b'umupira bambaye impuzankano zabo bakinana zizwi ku izina rya jezi. Aho riri mu ibara ry'ubururu bwiganje ndetse n'irindi ryivanzemo ry'ibara ry'icyatsi.

Sitade igaragaza abantu baje muri siporo, bicaye bari kuruhuka, hari uri imbere ari kubaha amabwiriza, sitade ifite amabara y'icyatsi n'umweru ikagira tiribine, ikagira n'aho baruhukira.

Abantu bari ku kibuga cy'umupira baje muri siporo, barimo barakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bakomeze bagire ubuzima buzira umuze, harimo uhagarariye ari kubereka ibyo bakora, abandi bakabikurikiza bakaba baryamye.

Ishusho igaragaza umukinnyi wumupira w'amaguru uri mukibuga wambaye jezi z'ubururu zirimo icyatsi, hakurya hari abantu baje kureba umukino, yambaye amasogisi y'icyatsi n'inkweto z'ubururu.

Ikibuga cyumupira wa maguru, kirimo abakinnyi babiri bari gukina umupira, umwe yambaye umupira wa oranje, undi yambaye umuhondo usa nkaho bari kwatakakana.

Ishusho igaragaza abantu bicaye ku ntebe n'abandi bahagaze inyuma yabo bisa nkaho bari kureba umukino runaka haparitse na moto harimo abagabo n'abagore bambaye ingofero bambaye umupira wumuhondo undi wambaye umupira wa orange.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo abantu bahagazemo, harimo umugabo ugaragara nk'aho kwiruka wambaye linete z'umukara, ishati y'umweru, ipantaro y'umukara n'isaha, impande ye hakaba hari umudamu na we usa nk'aho uri kwiruka wambaye agapira kariho Idarapo ry'u Rwanda n'isaha.

Umuntu w'igitsina gabo uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, wambaye inkweto zifunguye, ipantaro y'umukara nishati y'ubururu bwijimye uhetse igikapu ufite ikote.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo urimo umuturage uri kuwukorera isuku, wambaye itaburiya yo mu ibara ry'ubururu ufite umukubuzo uri kugenda akubura kugira ngo umuhanda ukomeze use neza.

Umuhanda nyabagendwa ufite akayira k'abanyamaguru ku ruhande, urimo ikinyabiziga k'ikinyamitende ibiri, cyakije itara ry'imbere, kiriho umumotari ndetse n'uwo batwaye kirimo kiragenda, umuhanda wubatse neza.

Ishusho igaragaza inzu, iparitseho abamotari, imbere hari amamoto zigeze, kuri enye, hariho agahanda kubakishijwe, amabuye yo mu bwoko bw'amapave, atondetse neza.

Umuturage uri mu muhanda nyabagendwa uzwi ku izina rya kaburimbo, akaba ari umugabo ufite amvirope mu ntoki, akaba yambaye ishati y'amaboko magufi yo mu ibara rijya gusa umweru ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto zifunguye zizwi ku izina rya sandari.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto ebyiri, imwe iriho umugenzi n'umumotari, ku ruhande hari amazu y'ubucuruzi, hari n'agahanda k'abanyamaguru gakikijwe n'amapave y'umweru n'umukara.

Umuhanda nyabagendwa uzwi ku izina rya kaburimbo, urimo moto iriho abantu babiri, uyitwaye ndetse n'uwatwaye, utwaye yambaye umupira wo mu ibara ry'umuhondo, yambaye kasike itukura.